Abantu umunani bahuriye mu cyumba cyiza gisize irangi ry'umweru. Ku meza hateretseho amacupa y'amazi ndetse na terefone. Umugabo umwe yambaye amarinete n'umupira w'umweru.

Icyumba kirimo amabara meza ndetse n'amatara abonesha, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, abazungu ndetse n'abirabura, umugabo umwe ararangaye ari gukoresha terefone ngendanwa.

Umugabo ukuze yambaye ishati ya kaki amarinete, umusatsi we wabaye imvi yambaye akantu mu ijosi, ku meza hateretseho telefone ikaramu, ikayi, n'i icupa ry'amazi inyuma ye hari abagore babiri ubona bakurikiye rwose.

Abagabo, abagore bicaye mu cyumba bari mu nama, imbere yabo hateretse ameza kandi icyumba barimo kiradekuye neza rwose, harimo umugore umwe ufite umwana mutoya byazanye muri iyo nama.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa arimo amazi, telefone ndetse n'amaji y'umuhondo.

Ni abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bambaye neza, aho abagabo bambaye amakoti ya kositimu na karuvati, naho abagore bakaba bambaye imikenyero, ubona ko baberewe rwose. Biragaragara neza ko barimo barafata ifoto y'urwibutso aho bari hanze y'inyubako i Kigali.

Icyumba giteraniyemo umubare w'abantu utari munini kirimo amarangi y'umweru kirasa neza cyane, ku meza hateretseho uducupa tw'amazi, indangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Itariki esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, muri Kigali mariyoti hoteri hateraniye inama y'uko wakwihangira udushya mu Rwanda, harimo abantu batandukanye abagabo n'abagore, iruhande rwabo hagiye hateretse uducupa tw'amazi.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi, harimo intebe ziriho ibitambaro by'umuhondo ndetse n'amezaza ariho ibitambaro by'umweru. Hateretseho amacupa y'amazi, bigaragara ko buri muntu afite ayo ari kunywa. Imbere hari umugore uri kubaha ikiganiro.

Abantu benshi bateraniye mu nama aho bagiye bicaye buri wese ku ntebe ye undi iye, hari ameza imbere iteretseho amazi amacupa atandatu. Umugore umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, afite n'isakoshi imuteretse iruhande.

Ni inama yahuje abayobozi batandukanye aho buri wese yicaye ku ntebe ye afite mudasobwa ye kandi akaba yitegeye uri kubagezaho ikiganiro, ni inama irimo abantu bagiye batandukanye yaba abagore, yaba abagabo ndetse n'abasore.

Umugabo wambaye ikote, karuvati n'ishati y'umweru, ari kwandika ibintu bitagaragara. Yegeranye n'undi mugore wambaye amarinete uri kureba imbere. Hari kandi umugabo ufite mudasobwa ye imbere.

Ni abantu bane abantu babiri barahagaze umugabo umwe ndetse n'umugore umwe, undi mugabo aricaye ndetse nu'undi mugore aricaye. Umugabo umwe yambaye umupira wumukara isaha y'umukara ingofero irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru yambaye na marinete afite ibyo ari gusobanura.

Inama y'abantu batandukanye harimo abanyarwanda ndetse n'abandi baturuka mu bihugu bitandukanye. Ku meza imbere yabo bateretseho ibikoresho byabo nk'impapuro telefone mu ducupa tw'amazi n'ibindi bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu nama ariko ntibakurikiye, buri wese yarangariye muri telefoni ye, muri iyi minsi abantu basigaye barangarira ku bikoresho by'ikoranabuhanga, aho ibiganiro bitakiri ngombwa, abantu baba bicaye ahantu hamwe, ariko buri wese ari gukurikira amakuru yo hirya no hino ataganira na mugenzi we bicaranye.

Abagabo bane bicaye ahantu hamwe, umugabo umwe yambaye amadarubindi afite ibyo ari kwitegereza cyane, bafite mudasobwa zibateretse imbere, ndetse undi mugabo yambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara.

Urubyiruko ruri hamwe, rurafata ifoto y'urwibutso. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Hari uwambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Undi yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara n'agashakoshi mu ntoki.

Urubyiruko rutandukanye rwateraniye mu cyumba kimwe rwiga ku ngingo zigiye zitandukanye hagati yabo harimo ameza ateretseho terefone zabo ,uducupa tw'amazi n'impapuro barakurikiye rwose urabona ko bateze amatwi.

Ni icyumba kigari kirimo ameza agiye yicayeho abantu batanu, aho buri wese ari kurangamira imbere, yumva ibiri kuhavugirwa. Iki cyumba kirimo amarange y'umweru n'amarido ya kaki.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye iruhande rwabo hateretse ameza bashyizeho udukoresho twabo ndetse hariho n'amacupa y'amazi; hari kandi akandi ka meza gateretseho porojegiteri bigaragara ko umugabo umwe ariwe uri gusobanura ibiri kugaragara ku rukuta.

Umugore mwiza cyane, wambaye ibitenge birimo amabara meza, yasokoje imisatsi ye neza cyane rwose. Afite indangururamajwi mu kiganza, urabona ko arimo arabwira abantu imbwirwaruhame ndetse nabo rwose bamuteze amatwi, ubona ko bishimishije.

Umugore wambaye ijipo yumukara harimo n'ipantaro imbere, ufite ibisuko, ufite marinete, afite mikoro mu kiganza ke, ari imbere y'abantu benshi, afite ibyo ari kubagezaho bamuteze amatwi, kandi bishimiye ibyo ari kubabwira.

Abantu batatu bicaye ku ntebe zegamirwa, harimo abagore babiri n'umugabo umwe. Ku cyapa kiri inyuma yabo handitseho Kigali yacu, Kigali ikeye. Urabona ko n'aba bantu bakeye, ibyanditse kuri uru rukuta ari byo koko.

Ihuriro ry'abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe nziza ndende z'imikara, iruhande rwabo hari ameza barambitseho amaboko n'amatelefone yabo kandi buri wese imbere hari mikoro bigaragara ko afite ijambo muri iki kiganiro.

Abantu bicaye mu nama aruvunge umugabo umwe yambaye marinete, ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara yicaranye n'umukobwa wambaye imyenda isa ubona myiza rwose yasokoje neza kandi yisize ibintu k'umunwa ndetse yambaye n'amaherena.

Umugabo uhagaze mu cyumba imbere y'abantu, yambaye ishati y'ikigina, isaha ku kuboko ndetse n'ishapule mu kandi kaboko. Inyuma ye hari icyapa kiriho idarapo ry' u Rwanda.

Abantu benshi biganjemo abagore bambaye neza, bicaye hamwe baraganira baseka bishimye imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'andi mabara agiye atandukanye, ayo meza ateretseho igikapu, telefone indangururamajwi ndetse n'uducupa twamazi.

Icyumba kiza giteraniyemo abantu bane umugabo umwe ndetse n'abagore batatu, ku meza hateretseho, uducupa tw'amazi twinshi, telefone ibitabo, abantu ubona ko bafite umuntu barangamiye bateze amatwi.

Icyumba giteguye neza kirimo amarido meza amatara agaragara neza, intebe zidekoye neza hiciyemo abantu yaba abagore, yaba abagabo yaba abasore, yaba abakobwa bafite ibyo bari kunguranaho ibitekerezo imbere yabo hicaye abantu babayoboye.

Mu ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, hari abagabo babiri bambaye imyenda isa, imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, begeranye kandi n'umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare mu gisirikare cy'u Rwanda.

Umukobwa mwiza wambaye ikanzu y'umweru imukwiriye, yambaye isaha afite telefone mu kiganza yambaye n'impeta. Afite indangururamajwi afite ijambo ari kubwira abantu. Abagore nabo baritinyutse.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe biganjemo urubyiruko ndetse n'abagabo bicaye ahantu hamwe hagati yabo hari umugore ufite ibyo ari kubabwira, bicaye ku ntebe ariko zabaye nke abandi bicara ku giti.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye ku ntebe z'imifariso, bahanze amaso imbere. Ku meza hateretseho uducupa tw'amazi, mudasobwa ebyiri ndetse n'ikayi imwe.

Icyumba kigari giteraniyemo abantu, yaba abagore ndetse n'abagabo, aho ku meza hariho telefone, uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi, bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Urubyiruko rwateraniye hamwe, bisa n'aho bavuganye amabara y'imyenda bari bwambare, kuko buri wese yambaye umweru hejuru ndetse no hasi. Bicaye ku ntebe zitukura, aho bicaye hari amapave, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umukara ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gisize irangi ry'mweru, n'intebe zirimo zifite ibara ry'umweru bose bari gukoresha terefone zabo ngendanwa ndetse hari n'ufite mudasobwa.

Abantu bicaye mu cyumba cyiza kirimo irangi ry'umweru, umugabo umwe yambaye amarinete ikote ry'umukara ishati y'umweru afite ikaramu n'ikayi mu ntoki.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru afite imvi mu mutwe imbere ye hari mikoro afite ibyo ari gusobanura kandi hateretse uducupa tw'amazi ndetse na ji, bigaragara ko uri guhitamo icyo ubasha kunywa.

Urubyiruko ruteraniye hamwe, rwicaye ndetse hari n'abahagaze babuze aho bicara, bari gusobanurirwa ibintu bitandukanye. Ni byiza ko urubyiruko rusobanurirwa ibintu kugira ngo rumenye uko rwitwara.

Umugabo ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, bicaye mu itente ryubakishije amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, ari kubaganiriza ku ngingo zitandukanye kandi hakurya ye hari urutoki rwinshi.

Abantu benshi bateraniye hamwe ubona ko hari urubyiruko, bambaye imyenda igiye isa, bamwe bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro y'umukara, abandi bambaye imipira y'umuhondo. Iruhande rwabo hari ibyuma bisakaye hejuru, ndetse ruguru hari n'abantu bari kurebera mu madirishya.

Mu cyumba kirimo umugore umwe, wambaye umupira w'umukara n'ikanzu irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki. Inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Icyumba giteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, aho harimo abapolisi abadaso ndetse, ndetse n'abandi bantu. Ku meza imbere yabo hatetseho amacupa y'amazi mudasobwa, amakaye, amakaramu n'ibindi bikoresho.

Abagabo batanu n'umugore umwe wambaye agakote k'ubururu n'ikanzu y'umweru, inkweto zihagaze z'umweru, basakoje neza bicaye hamwe baganira, hagati yabo hari imeza irimo indabyo ndetse ku bikuta hagiye hari imitako.

Abagabo babiri n'umugore umwe bose bambaye amarinete, bigaragara ko umwe muri bo ari we uri kugira icyo avuga. Ku meza hateretseho amazi, uducupa tubiri, n'agakombe kamwe karimo ikiyiko. Hari kandi mudasobwa imwe.

Ihuriro ry'urubyiruko rwambaye imyenda itandukanye; iy'ubururu, iy'icyatsi ndetse niy'umuhondo. Hari umugabo hagati yabo nawe wambaye umupira w'icyatsi uri kubaganiriza ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Abagore babiri n'umugabo umwe, umugore umwe ni inzobe cyane naho undi ni igikara, ku meza hateretseho icupa ry'amazi, ikayI, mudasobwa, terefone ndetse intebe bicayeho ziri mu ibara ry'umukara.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi higanjemo abagabo n'abagore bakeya, iki cyumba ni cyiza gifite irangi ry'umweru amarido meza amakaro ndetse n'intebe zirimo ni nziza cyane, harimo iz'umutuku ndetse n'iz'umukara.

Imbaga y'abantu benshi bicaye hamwe, bigaragara ko ari urubyiruko, bambaye udutambaro tw'umweru mu mutwe n'imipira y'icyatsi, abandi bambaye imipira y'umuhondo, iy'ubururu, uwambaye ishati y'umweru, bigaragara ko bameze nk'abayisiramu.

Icyumba kiri kuberamo inama hicayemo abanyacyubahiro bagiye batandukanye ku meza ari imbere yabo hateretseho uducupa tw'amazi uturahure impapuro amakaramu ndetse na telefone.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama bicaye ku ntebe z'umutuku, bose iruhande rwabo hari mudasobwa ziteretse ku meza ndetse n'uducupa tw'amazi ni abantu bananiwe iyi nama yatangiye kare.

Abagabo batatu bicaye hamwe, bigaragara ko bari kungurana ibitekerezo, bose nta musatsi bafite ku mitwe yabo. Bafite uducupa tw'amazi ndetse n'umuti ukarabirwa mu ntoki, aho wakoreshejwe cyane mu gihe cy'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu yicaye mu ntebe yumukara; ku meza hateretseho mudasobwa, icupa ry'amazi, ikaye; ndetse n'indangururamajwi iri kumufasha kumvikana.

Umugabo w'igikwerere ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, bicaye mu matete ku ntebe z'umweru ndetse n'izifite ibitambaro by'umuhondo hakurya hari amashuri ariho ibigega birimo amazi.

Abantu bari kwifotoza bahagaze hamwe, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo: "Mureke turwanye ihohoterwa rikorerwa abagore." Ubona ko higanjemo abagore bambaye amakanzu y'imituku.

Ahantu hameze nko muri stade hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, ariko batanu muri bo, nibo bicaye bafite amazi yo kunywa imbere yabo hagaze umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, yiteze igitambaro mu mutwe, afite indangururamajwi afite ibyo arimo kubabwira.

Abagabo bahagaze mu muhanda wa kaburimbo, hari abari gufata amafoto abandi bareba muri terefone, ku ruhande hari abandi babiri bari kuganira ubona ko umwe afite ibyo ari kumvisha undi.

Inzu ebyiri za etage imwe iriho amarangi y'umweru naho indi iri iho amarangi y'umutuku, hanze yayo hicaye abantu benshi batandukanye barangariye mu matelefone yabo harikikijwe n'amapove indabo nziza ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Abantu batatu bicaye ku ntebe ndetse bashyize amaboko ku meza, hariho mudasobwa, icupa ry'amazi ndetse n'umugozi ucomeka iyi computer, hakurya hari uruvunge rw'abantu ubona ko bategereje icyo aba bantu bababwira.

Ingagi igaragara neza ifite ubwoya bwiza ku ruhu yicaye mu ishyamba harimo n'ibyatsi, niba wifuza gusohora ingagi nawe urabyemerewe ukirebera n'ibindi byiza bitatse ibirunga by'u Rwanda.

Dore amabwiriza y'uko wakwinjiza amakuru ya konti ya banki kuri E TAX. Hari amabwiriza wagenda ukurikiza. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri gatatu zeru zeru kane.

Ku rubuga rw'irembo wahaca ugiye gusaba serivisi zigiye zitandukanye, kuri ubu ngubu bafite amakuru mashya ku rubuga rwabo avuga ko kwiyandikisha mu ishyingirwa byavuguruwe. Ushaka ibindi bisobanuro wabahamagara kuri mirongo icyenda mirongo icyenda n'icyenda cyangwa ukabandikira kuri watsapu yabo.

Hasigaye iminsi ibiri gusa, ngo igihe cyo kwishyura imisoro cyawe kigere. Ni ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane. Menyekanisha umusoro wawe uyu munsi kandi wishyure bitarenze mu gihe cyo kwirinda amande.

Urubuga ruzwi n'abantu batari bake ubu rufite serivisi nshya. Aho ushobora kubahamagara ukeneye ubufasha kuri icyenda, zeru ,icyenda, icyenda cyangwa ukaka ubufasha kuri whatsapu yabo: zeru, karindwi, icyenda, kabiri, kabiri, kabiri kabiri, kabiri, makumyabiri.

Icyumba kirimo irange ry'umweru n'itapi y'icyatsi kirimo ibyumba by'ikoranabuhanga ubona ko utarabyigiye utamenya uko bikoreshwa, ni byiza kugira amakuru ku bikoresho by'ikoranabuhanga kugirango ubashe kubikoresha.

Harabura iminsi itatu gusa, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa wa bibiri na makumyabiri na kane, ni itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane, menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa.

Abantu bicaye barangaye, buri wese afite ibyo ari gukora, umugabo umwe afite terefone ari gukanda n'ikaramu mu kiganza, undi musore begeranye afite mudasobwa, ari gucokozamo ibintu.

Abantu bicaye mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, hari utubati turimo ibitabo by'amoko menshi, aho waza ugasoma ibitabo nawe ukunguka ubumenyi. Ni byiza gusoma ibitabo, kuko utabisomye nta kintu wamenya.

Umunara muremure cyane ubona ko wubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga, iruhande rw'uwo munara, hari imodoka nziza, iruhande rwayo hari umugore wambaye agapira k'umuhondo ndetse kuri uwo munara hateraniye abantu benshi ubona ko bafite ibyo bari kwitegereza.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru, amarinette ufite umusatsi uringaniye, afite imashini mu kiganza cye ari gusobanura ibijyanye no kwigaragaza ku bushake, avuga ko harimo amahirwe menshi mu kwigaragaza ku bushake.

Mu cyumba cy'inama cyateraniyemo abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, imbere hari umugore uhahagaze bigaragara ko ari we uri gutanga ikiganiro, buri muntu afite mudasobwa, iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi.

Igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo kiriho icyapa cyanditseho ko hari wifi y'ubuntu, aho waza ukayikoresha ureba amakuru agiye atandukanye bikagufasha kumenya uko isi yiriwe uwo munsi. Abantu benshi bagorwa no kubona interneti arikohangaha iraboneka ku buntu.

Umunara muremure w'itumanaho, urimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku. Wubatswe n'umuntu wabihuguriwe, kuko ubasha gutanga umuyoboro ku bantu bawukoresha bose.

Inzu ifite amarangi y'umweru inzugi zisize amarangi y'icyatsi ndetse n'igipangu cy'amatafari ahiye, mu mbuga yaho harimo amapave ndetse kuri izi nzugi hariho icyapa kigaragaza aho ariho.

Umunara w'itumanaho wa emutiyeni wubatswe mu buryo bwa gihanga ari wo utuma abantu babasha guhamagarana bakohereza ubutumwa, bakohereza amafaranga mu rwanda ndetse no hanze yarwo.

Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere arajibi uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa leta, wanyura ku rubuga irembo bakagufasha kwandikisha umuryango utari uwa leta.

Urubyiruko rwinshi ruhugiye ku bikoresho by'ikoranabuhanga, hari umusore wambaye umupira wa move, n'ipantaro y'ikoboyi wiyogoshesheje inyogosho idasanzwe, yashyize ekuteri mu matwi aho atitaye ku bandi bantu bari kumwe.

Rura yasohoye amabwiriza y'uko wakoresha gaze mu rugo rwawe uteka ibiryo bitandukanye, ushobora kubasura ku mbuga zabo nkoranyambaga nka tuwita, fesebuke, isitagaramu, ndetse n'izindi zitandukanye ukamenya amakuru arambuye.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru n'ijire irimo amabara y'icyatsi ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ntushobora kubikoresha utarabyize, bigaragara ko abakobwa na bo bahawe agaciro.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda, hirya yabo hari undi muhanda uparitsemo imodoka, hari inzu nziza zifite amabara ya oranje ndetse n'ay'umuhondo. Ku muhanda hakikije ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, amapoto, ibiti, amazu menshi kandi meza, umutaka wa Emutiyeni wicayemo umukobwa ucuruza amayinite ndetse n'izindi serivisi zose zigendanye na Emutiyeni.

Inzu ishaje cyane yagiye isenyuka ku nkuta zayo ndetse n'igipangu cyayo cyarasenyutse bigaragarira amaso, iruhande rwayo hari ifoto ifite insinga zigiye zishamikiranye bigaragara ko iyi nzu n'ubwo ishaje ariko irimo umuriro w'amashanyarazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho harimo moto ndetse n'imodoka, iyo moto itwaye umugenzi umwe kandi hari akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'amapoto afite insinga zigiye zishamikiranye.

Ipoto rishinze iruhande rw'urugo rw'umuntu, akazu gatoya gasize irangi ry'umuhondo, hari ibiti by'imyembe, ibisheke, inkenke ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Ahantu mu giturage hari insina ariko zidafite ibitoki mu by'ukuri hari umuhanda wa kaburimbo urimo abakobwa babiri umwe wambaye ijipo y'igitenge n'agapira k'umukara undi yambaye ipantaro n'umupira w'umweru ahetse igikapu.

Umugabo wize ibijyanye n'amashanyarazi, yambaye ipantaro y'umweru n'ishati y'umukara n'ingofero y'umuhondo, yuriye ipoto akoresheje ibyuma byabugenewe mu kurira amapoto, aho hariho insinga zitandukanye.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku, ingofero nini yambarwa n'abantu bakora mu mabuye y'agaciro, yambaye n'ijire inyuma, yambaye agapfukamunwa k'ubururu kanditseho ngo Yesu ni byose ku mufite, abakobwa nabo bagomba kwitinyuka kuko barashoboye.

Inzu nziza ya kadasiteri ifite amabati y'umutuku ifite igipangu cyiza kiriho amatafari ahiye indabo nziza z'umutuku, iz'umuhondo ndetse n'izindi zitandukanye imbere harimo imikindo igiye nayo itandukanye hari ipato bigaragara ko ariho bakuye umuriro bakoresha.

Umurima uteyemo ibigori, iruhande rwaho hari iptoro ririho insinga zigiye zitandukanye. Ni mu giturage rwose mu buryo bugaragara. Ariko ibikorwaremezo byabagezeho nk'aho bafite umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto riri ku muhanda, rishamitseho insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara riboneshereza abagenzi n'ibinyabiziga. Hari icyapa cyanditseho Farumasi ndetse n'umusaraba.

Inzu zigaragara nk'izimaze igihe kinini zubatswe, kuko amatafari yatangiye kuzaho urubobi. Hari utuyira twasataguritse, twaciwemo imikuku n'amazi. Hari umutaka wa move, ndetse wicayemo abantu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye imbere yayo hari matera nyinshi ziri mu mabara atandukanye, hari ipoto iriho insinga ndetse n'itara rimurikira aka gace, hari ibiti bitoshye kandi hari ikizu kinini cy'umweru.

Ifoto iriho insinga nyinshi zishamikiranyije, zigiye zijya mu mazu ari iruhande rwayo. Iyo nzu ifite igipangu cyiza kiriho ibara rya kaki ndetse n'amatafari ahiye. Hakurya hari inzu ziri mu bucucike ubona ko ari nyinshi cyane. Ndetse hejuru hari ishyamba ubona ryinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru, hari akayira k'abanyamaguru, harimo umugore wambaye agapira k'ubururu n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo, yegereye ipoto ririmo insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo icyapa gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, iruhande rw'icyo cyapa hari ibiti bifite amashami agaye akikije uwo muhanda, hari ibindi byapa kandi bigiye biriho amashusho y'abantu, imodoka ziri kugenda ndetse n'abamotari.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda m'umuhanda bamwe bajya iburyo abandi bajya ibumoso, hari umugabo n'umukobwa bahagaze baganira kandi birabujijwe ko abantu bahagarara m'umuhanda baganira kuko bashobora gutera impanuka.

Ahantu mu giturage, hari inzu yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu, hanze hari indabo z'umuhondo zikunze kuba ziri mu cyaro, ni umuhanda ubona ko atari mwiza cyane nk'uwo mu mujyi.

Imodoka iparitse mu muhanda nta muntu n'umwe uyimo, hirya yayo hari inzu zifite igipangu kiriho irangi ry'umuhondo n'ipoto riri imbere mu rugo ririho imigozi myinshi ishamikiyeho, bigaragara ko aba baturage rwose bacana.

Umunara muremure cyane ushinze ahantu hari ibyatsi, hakurya yawo hari ibiti by'icyatsi ubona binini cyane, ikirere kiragaragara ko gikeye ndetse aho hantu hari n'ahagiye hatari ibyatsi.

Umukobwa ukiri muto rwose, yambaye isarubeti n'ingofero, yuriye urwego ari gukora ibijyanye n'insinga z'amashanyarazi; ubu abakobwa baritinyutse aho basigaye biga imirimo itandukanye.

Agahanda kajya mu rugo ruriho igipangu cy'icyatsi ndetse n'igina n'irange ry'umweru. Hari ipoto ririho insinga ndetse n'itara. Hari umunyonzi uri gusunika amagare ku muhanda.

Inzu nziza igeretse kabiri ifite igipangu inyuma cy'amatafari ahiye kitakwemerera kureba uko imbere yayo hameze, ifite porotaye y'icyatsi ndetse iruhande rwayo hari ipoto rifite insinga zigiye zijyana umuriro mu ngo zitandukanye.

Repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo. Ibitaro bya Kacyiru. Wahagera bakagufasha, ufite indwara zigiye zitandukanye, barakuvura ugataha umeze neza. Nawe gana ibi bitaro.

Ku bitaro bya kaminuza sehashibe hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye mu mbuga yaho haparitse imbangukira gutabara zifasha kugeza abarwayi ku bindi bitaro iyo barembye cyane hari ibyapa bigenda biyobora abarwayi aho bivuriza.

Icyapa kinini cyanditseho ibitaro bya kabgayi, aho bavurira indwara zigiye zitandukanye, abarwayi baho bitabwaho n'abaganga b'inzobere bakabaha ubufasha ku ndwara iyo ariyo yose, baba bafite umuntu ari gusunikamo igare bigaragara ko hari ibintu ahajyanye.

Inzu isa neza cyane, yubakishije amatafari ahiye, hariho inzugi za metarike, zifite n'ibirahure, harimo irido rifite ibara ry'icyatsi. Ku muryango hateretse intebe z'umukara bigaragara ko zicaraho ababagana.

Parikingi irimo imodoka, iz'umukara n'iz'umweru ndetse n'imbangukiragutabara. Harimo ubusitani bwiza burimo n'imikindo, hirya hari ibiti bishishe cyane, hari amatara abonesha n'iyo yaba ari nijoro.

Ni inzu imwe ariko ifite imiryango myinshi, ifite amabati y'umutuku, hanze hari indabyo nziza zifite ibara ry'umuhondo, hari amabuye apavumye kuri iyi nzu ndetse n'inkingi zifashe ngo itazatwarwa n'umuyaga.

Icyapa kigaragaza ko bageze ku bitaro by'i Kabgayi, hari umuganga uvura amaso ugatangira kureba neza utambaye amarinete, nawe niba ufite icyo kibazo wabagana bakagufasha.

Inzu nziza irimo irangi ry'mweru n'intebe zicarwaho n'abantu bakeneye serivisi, hari igare ry'umuntu ufite ubumuga ritarimo ariko umuntu, abafite ubumuga nabo barashoboye.

Inzu ntoya hicayemo abagore babiri bambaye amakoti y'umukara, n'imipira y'umweru imbere, bafite ibisuko bombi, ku meza hariho imashini ndetse n'amacupa y'amazi, imbere yabo kandi hari imfungwa ebyiri zambaye imyenda y'imfungwa.

Abantu bicaye mu byatsi hakikijwe n'ibiti harimo umuntu umwe witwikiriye umutaka, imbere yabo hicaye abantu bambaye idarapo ry'u Rwanda, imbere yabo hari ameza ariho impapuro.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'umutuku n'ingofero z'umukara; binjiye mu cyumba giteraniyemo imbaga y'abantu benshi; bafite idarapo ry'u rwanda ririmo amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Urupapuro ruriho ikirango cya Repubulika y u Rwanda, handitseho amagambo agiye ari mu ndimi eshatu, ururimi rw'ikinyarwanda, urw'icyongereza, urw'igifaransa ndetse bigaragara ko handitseho igazeti ya Leta.

Abagabo babiri bicaye bose bashyize ibiganza kumeza umwe yambaye ikoti ry'umukara ishati yumweru karuvati, y'umutuku, ndetse n'amadarubindi afite ikaramu mu ntoki imbere ye hari igitabo undi mugabo yambaye amadarubindi karuvati y' umukara ishati yumweru n'ikote ry'ikigina.

Umudamu ukuze yambaye amarinete, amaherena yasokoje umusatsi we neza yambaye, ikanzu ya oranje idoze neza afite mikoro afite ibyo arimo arabwira abantu. Abantu benshi iyo bahagaze imbere y'abantu bakunze kugira ubwoba ariko iyo bateguye ibyo ugiye kuvuga neza ntabwoba ugira.

Ni igororero ryo mu Karere ka Huye aho rifite igipangu kirekire ndetse na porotayi, imbere harimo abacungagereza babiri ubona ko barigukora akazi kabo. Mo imbere kandi harimo ubusitani ndetse n'ibiti ubona ko bitanga umuyaga.

Umucamanza yicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari ameza yambaye ingofero n'ikanzu y'akazi hari abandi bagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umugore wambaye amaherena n'ipantaro y'umukara.

Umugore warakaye yambaye amaherena, afite umusatsi yafungiye inyuma ndetse yambaye agashati k'umutuku, agapira k'umweru imbere, ubona ko afite ibyo ahanze amaso ariko utabasha gusobanukirwa.

Abantu babiri harimo umukobwa ndetse n'umugabo, uyu mukobwa akaba afite imisatsi yasutse, yambaye amaherena, yambaye ishati ndetse n'agapira imbere, bose iruhande rwabo hari mikoro, imashini ndetse n'agacupa k'amazi.

Umucamanza uhagaze imbere y'ameza yambaye ikanzu y'umukara y'abacamanza n'ishati y'umweru imbere, afite mikoro mu kiganza arimo aragira ibyo avuga yambaye impeta mu kaboko k'iburyo ndetse n'ak'ibumoso, iruhande rwe haridarapo ry'u Rwanda.

Abagororwa benshi bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imyenda ijya gusa na pinki, abagororwa bose bambaye udupfukamunwa urabona ko bakurikiye kandi iruhande rwabo hari umugabo ubona ko abacungiye umutekano.

Abagabo bijimye mu maso bigaragara ko hari n'ushinzwe umutekano, umugabo umwe yambaye amarinete, ikote ry'umukara n'ishati y'umweru undi yambaye amarinete, ikote ry'umukara ndetse na karuvati y'umutuku.

Umugore mwiza cyane w'inzobe afite umusatsi mukeya, yambaye amadarubindi, yambaye amaherena, yisize ibintu ku munwa ubona ko yari umusirimu rwose, yambaye ikote ririmo amabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Abagabo bane bambaye imyenda y'umutuku n'udugofero tw'umukara turimo n'utubara tw'umutuku bashyize amaboko yabo kumeza hari idarapo ry'u Rwanda rifite amabara y'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka. Umupolisi ahagaze mu muhanda, ari kureba uko umutekano waho umeze, abaza abamotari niba bafite ibyangombwa.

Umupolisi wambaye imyenda y'akazi ahagaze imbere, ayoboye imodoka zirimo abantu bari gukorera perimi, kugirango ubone perimi bigusaba kuba warakoze imyitozo ihagije.

Kizimya mwoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, iyo habaye inkongi y'umuriro, irifashishwa kugira ngo hatangirika ibintu byinshi.

Umugore wambaye igitenge n'umupira w'umutuku urimo amabara yubururu n'agatambaro yashyize mu mutwe, ndetse gafashe no mu ijosi ari hejuru aho areba mumuhanda hari imodoka ya Polisi.

Ni inyubako ya etage ifite imiryango myinshi igiye itandukanye, ahakorera polisi y'u Rwanda. Haparitse imodoka nyinshi hanze ubona ko harimo iya Toyota ndetse n'indi, isi mu bwoko busanzwe.

Kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iri mu ibara ry'umutuku, iriho amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu, ntabwo ipfa gukoreshwa n'ubonetse wese keretse warabihuguriwe.

Imodoka ya polisi ishinzwe umutekano iraparitse, ifite amabara y'umweru n'umukara. Iyo hari ikibazo kibaye mu muhanda, iyi modoka itabarana ingoga ngo hatagira uhutazwa n'ibyo bibazo.

Imodoka yanditseho police mu ibara ry'umukara ndetse inyuma hari abapolisi babiri, bakurikiwe na moto ebyiri; ni ingenzi cyane kubagira, kuko ari bo baturindira umutekano.

Abasore babiri bahagaze ku muhanda, aho bari kwitegereza abantu bari gutambuka. Mu muhanda harimo umugabo ufite umufuka munini ku rutugu rwe wamuvunnye ubona ko yagakwiye kuba yateze imodoka.

Kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro iri mu ibara ry'umutuku ndetse ifite n'utubara tw'umuhondo yegereye agakarito ka kake kariho n'amabara y'umukara kanditseho amagambo y'uburyo wakoresha iyi kizimyamwoto.

Amazu agaragara nk'amashuri ariho amabati afite irangi ry'ubururu, inzugi za kaki hanze hari abantu batonze imirongo miremire cyane, bashaka kwinjira muri ibi byumba mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Abantu icumi barangaje imbere abandi bantu benshi, imbere yabo hateretse mudasobwa n'uducupa tw'amazi ndetse n'amadarapa abiri aba bantu barakurikiye ubona ko ibyo bari kubwirwa byose bari bubitahane.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakoze imirongo ibiri binjira mu cyumba kimwe, hari kugenda hinjira uwo ku murongo wa mbere ndetse hakinjira n'uwo ku murongo wa kabiri, iyo nzu iriho ibitambaro by'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umukandida wa FPR inkotanyi yambaye ingofero y'umutuku, amarinete y'umukara, agapfukamunwa k'umweru n'umupira w'umweru urimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Umukandida wiyamamariza ku mwanya wa perezida wa repubulika, afite mikoro mu kiganza ndetse iruhande rwe hari izindi nyinshi z'abanyamakuru, bari gushaka amakuru. Akikijwe n'umugabo iruhande rwe ndetse n'undi mugore ku meza hateretseho amazi ndetse n'idarabo.

Abantu benshi bafite amadarapo ya efuperi, ari mu ibara ry'umutuku, umweru, n'ubururu. Bari kuyazunguza hejuru bafite ibyishimo byinshi, kandi baririmba. Bigaragara neza ko bashyigikiye iri shyaka rya efupeyeri.

Ni icyapa kinini kigaragarira buri wese cyanditseho Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, twitabire amatora duhitemo neza, hasi yacyo hari abantu bari kugenda bamwe bagaruka bagiye mu matora.

Imbaga y'abaturage higanjemo abantu bakuze bafite amadarapo bazamuye hejuru ari ifoto ya perezida wa repubulika Paul Kagame bagira bati umudugudu wa radari tuzamutora ijana ku ijana.

Umukandida wiyamamariza umwanya wa perezida wa repuburika, ahagaze imbere y'abantu ari kubasobanurira yambaye ikote ry'umukara, karuvati ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara iruhande rwe hateretse mikoro.

Sitade amahoro yateraniyemo abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye, abagabo, abagore, abakobwa, abasore ndetse n'abandi benshi, imbere hari nyakubahwa perezida wa repubulika Poro Kagame n'umudamu we Janete kagame iruhande rwabo hari intebe zirimo amazi.

Perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yambaye amarinete y'umukara ikote ry'umukara impeta mu rutoki arimo arasinya ibintu iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye igikanzu cy'umutuku n'akagofero ndetse hari n'umudamu we wambaye umukenyerero w'ubururu.

Abagabo babiri umwe wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, undi nawe yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, baturuka mu bihugu bitandukanye buri wese imbere ye hari idarapo ririmo amabara agize iryo darapo, hari mikoro iruhande rwabo ushaka kugira icyo avuga aravuga ariko buri wese ahugiye mu byo ari kwandika.

Umugore wambaye ikoti ry'icyatsi n’ijipo y’umutuku, afite umusatsi mukeya, yambaye amadarubindi ndetse n'amaherena, arimo arasinyira ibintu ahagarikiwe n'undi mugabo, hirya ye kandi hari abandi bagabo barimo barafata amafoto.

Abategarugori bambaye neza kandi bikwije bari bamanitse ibiganza byabo ku madarapo y'u Rwanda bari kurahira, umugore umwe yambaye umukenyero w'ubururu, agasengeri k'umuhondo, urunigi mu ijosi na amarinete.

Imbaga y'abantu yateraniye, hamwe harimo abambaye bote, amajire ya emutiyene, ingofero zigiye zitandukanye, abenshi bitwikiriye imitaka, imbere yabo hahagaze abagabo batatu bafite ibyo bari kubasobanurira.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe biganjemo urubyiruko, bari kuzunguza amadarapo y'ishyaka rya efuperi ndetse n'umukandida wayo abahagaze hagati abafasha kwishima.

Abagore benshi ubona baberewe rwose bambaye neza, bahagaze imbere y'amadapo y'u Rwanda barahirira ibintu runaka, iruhande rwabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara na kositime, ubahanze amaso.

Icyumba gitatse amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi hicayemo abantu batatu umugore umwe umugabo umwe n'umukobwa umwe, kumeza harambitseho urupapuro, ikaramu, irangamuntu, n'utubogisi turimo ibintu bitandukanye.

Ikivunge cy'abantu benshi bararirimba bakoma mu mashyi bafite amadarapo ya efuperi, bayazunguza hejuru bambaye imyenda iri mu mabara agiye asa, umutuku, ubururu, umweru ndetse n'andi agiye atandukanye.

Abahagarariye itora bicaye ku mukeka bose hamwe bambaye imipira y'umweru, bari kubara amajwi y'ababakandida ni benshi kuburyo hatabaho kwibwa amajwi ku mukandida uwo ari we wese.

Abagore benshi ndetse n'umugabo umwe bahagaze bemye bazamuye ikiganza cy'iburyo ku idarapo ry'igihugu rifite amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Itora rya perezida wa repubulika mu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, ifoto y'umukandida Habineza Furanke, Mpayimana Filipe, Kagame Poro, ari ku rupapuro rufashwe n'umuntu.

Imbaga y'abantu yateraniye hamwe, yamamaza ishyaka rya FPR inkotanyi ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru.

Umukandida uharanira kuba Perezida wa Repubulika, ahagaze imbere y'abantu yambaye imikenyero n'umupira w'umukara ari kuvuga ibyo azageza ku baturage. Hari benshi bamuteze amatwi bashaka kumenya imigambi abafitiye.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso iri mu muhanda itwaye umucanga, biragoye ko watwara umucanga ku mutwe ukazagwiza uwuzuza inzu, ni ngombwa ko ukenera imodoka iwukugezaho.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri, iri mu muhanda itwaye, abana b'abanyeshuri, igenda ibageza mu ngo zabo aho baturutse. Hakurya y'umuhanda hari ibiti biteye ari birebire, kandi bitoshye.

Ni mu muhanda mwiza wa kaburimbo harimo moto ebyiri ubona ko zabuze abagenzi kuko abamotari bari bonyine, iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti byiza bitanga akayaga ku bahanyura, hakurya hari amazu menshi ubona ko ari mu bucucike.

Imihanda isobekeranye izamuka, itambika, imanuka harimo ibinyabiziga. Imbere hari moto ikurikiwe n'imodoka ifite irangi ry'ubururu hakaba indi modoka iri kumanuka ifite irangi ry'umweru.

Imodoka ifite amabara y'ubururu, iri kwerekeza imbere. Hari umugabo uri gutambuka mu nzira y'abanyamaguru. Hakurya hari abantu benshi bari gupakira udufuka tw'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru karimo amapave, harimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso ibona ko ishaje ndetse n'igare rishaje cyane ariko rikibasha kugenda riparitse iruhande rw'umuhanda.

Umugabo ubona ko yananiwe, ahetse igikapu mu mugongo cy'umukara, yambaye ingofero, arimo aracunga igare ririho umutwaro munini, iruhande rwe hari imodoka nini itwara abagenzi ndetse n'indi modoka ntoya igendamo abantu bakeya.

Imodoka yo mu bwoko bw'izitwara abagenzi, ipakiye abagenzi benshi bagiye mu duce dutandukanye. Ihuye na moto iriho umumotari udafite umugenzi, afite kasike ebyiri; imwe arayambaye, indi ayifite mu ntoki. Kasike imwe ni umutuku, naho indi ni ubururu.

Imodoka ya kwasteri irimo abagenzi, imbere yayo hari umumotari utwaye umugenzi, urabona ko rwose iyi modoka iri mu muhanda mwiza aho abagenzi bayirimo ari benshi cyane, batwawe n'umushoferi ndetse yicaranye n'undi mugabo.

Mu muhanda wa kaburimbo ni ku manywa y'ihangu aho harimo urujya n'uruza rwa moto ndetse n'imodoka, ku muhanda hari ibiti byiza by'imikindo ndetse n'ibindi biti by'amoko atandukanye. Uyu muhanda ni mwiza kandi ufite n'indi mihanda bishamikiranye hirya no hino.

Abagabo babiri barakataje berekeza imbere, umwe yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ikoboyi, inkweto zifunze, ahetse igikapu mu mugongo, undi yambaye ishati irimo amabara n'agapantaro k'umukara ndetse n'inkweto zifunze.

Igikamyo cya rukururana giparitse imbere y'inzu ya etaje yanditseho ngo beti, bigaragara ko ushobora kuza ukabetingira muri iyi nzu, iri mu muhanda wa kaburimbo utarimo abandi bagenzi, aho imiryango y'iyi nzu yose ifunguye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye; moto, igare, n'imodoka. Abandi bantu bari kugenda n'amaguru, berekeza mu byerekezo bitandukanye. Hari inzu kandi ifite amadirishya y'icyatsi, ndetse n'inzugi zisize amabara y'icyatsi.

N'imodoka ntoya iri m'umuhanda wa kaburimbo hicayemo umuntu washyize akaboko ku idirishya ari kureba hanze, n'imodoka bakoresha bari kwigisha abantu bashaka kuyiga, nawe niba ushaka kwiga imodoka wabagana bigisha neza ugatsinda.

Imodoka ya kwasiteri yo mu bwoko bw'izitwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, iparitse mu muhanda wa kaburimbo. Irimo abagenzi batandukanye bari kujya mu duce tugiye dutandukanye, aho buri wese bagenda bamugeza aho agiye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu hari n'undi muhanda ushamikiranye nawo, uparitsemo imodoka ebyiri z'amabara y'umukara hari moto iri gutambika muri uwo muhanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso, yaparitse hakurya y'umuhanda, ahegereye amagaziye arimo inzoga zipfundikiye. Ni imodoka iyajyana mu duce tugiye dutandukanye, kugira ngo ibi binyobwa bibashe kugera ku bantu bose.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara amazi, ifite amapine atatu kandi isize irangi ry'umweru, hakurya y'umuhanda hari ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, akayira k'abanyamaguru karangiritse bigaragara ko gakeneye gusanwa. Hahagaze umugabo wambaye ishati irimo amabara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, moto iri mu bwoko bw'ibitwara imitwaro ifite ingurube mo inyuma, hari umugore ufite indobo irimo ibisheke n'igitambaro kibitwikiriye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru karimo amapave, hari guca umugabo wambaye umupira w'umweru ufite ibintu mu maboko yombi; uyu muhanda kandi urimo imodoka ifite irangi ry'umutuku.

Abamotari benshi baparitse moto zabo, bategereje abagenzi. Abagenzi kandi na bo barasiganwa ngo bafate moto zibageza aho bataha kuko butangiye kugoroba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ebyiri moto imwe ifite umugenzi indi ntayifite harimo imodoka y'ikamyo ipakiye ibintu byinshi kandi hari umugenzi wikoreye imifuka ibiri.

Moto zitwaye abagenzi n'imodoka nini ifite amabara y'ubururu, abagenzi bari gutambuka ahantu hashashe amapave, umuhungu wambaye umupira wa kacye n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi bake baringaganiye, hari amatara ku mihanda ndetse n'iminara y'itumanaho, uyu muhanda bigaragara ko ukozwe vuba.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo imodoka imwe, moto imwe ndetse n'abagenzi batatu, umugenzi umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, undi yambaye umupira wanditseho tora Kagame n'ipantaro y'ikoboyi ndetse n'udukweto dufunguye.

Ikimodoka kinini cya Fuso, gifite ibara ry'ubururu. Gitwikirije ihema ry'umukara, imbere yacyo hari inzu isize amarangi y'umweru ndetse n'amarangi y'icyatsi ku madirishya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga ndetse n'abagenzi. Ku ruhande hari ibiti by'imikindo ndetse n'ibyapa biriho aho abagenzi bashaka kunyura.

ahazwi nko muri gare haparika imodoka harumuhungu ufite indobo irimo ibnyobwa wambaye umupira w'umukara ipantaro yi'cyatsi n'inkweto z'umuhondo hakurya ye hari amatara abonesha neza aho ubasha kubona ibintu byose bihitegeye

Imodoka ebyiri zitwara abagenzi ziparitse mu muhanda wa kaburimbo. Ni amasaha abagenzi baba batari kuboneka, kuko imodoka zose nta bagenzi zifite. Niba ugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, gana izi modoka zikugezaho wifuza kujya.

Ikinyabiziga kisumbuye kuri moto, gitwara imitwaro hirya no hino iyo utakizi neza cyakugusha, hakurya hari ibiti biri ku muhanda ndetse n'amazu yubatse mu buryo butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, imwe yo mu bwoko bwa Toyota n'indi yo mu bwoko bwa fuso, inyuma yazo hari umugabo wambaye ishati y'umweru irimo imirongo, yikoreye umufuka wamuvunnye cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka eshatu; imwe y'umutuku, indi y'umweru ndetse n'akamoto gatoya gatwara abagenzi; hakurya hari amatara abonesha muri uyu muhanda.

Ibikamyo bibiri; igifite ibara ry'umuhondo n'igifite ibara ry'umutuku, biri mu muhanda, kimwe kirerekeza iburyo, ikindi cyerekeza ibumoso, ibi bikamyo binini ni bimwe mu byifashishwa mu gukura ibintu hamwe ubijyana ahandi mu buryo bworoshye.

Akamodoka gatoya gapakiye ibintu byinshi, ibyo bintu bigatwikirwa n'ihema, kari mu muhanda wa kaburimbo aho imbere yako hari ikimodoka kirekire kiri mu bwoko bw'ikamyo, hegereye abantu babiri bari ku cyapa aho imodoka zihagarara.

Umumotari umwe ari mu muhanda wa kaburimbo yerekeje imbere. Hari ibyapa bibiri biyobora abagenzi. Nawe niba ushaka gukora akazi ko kumotara, icyo usabwa ni ugushaka perime gusa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rwabantu, imodoka ndetse higanjemo moto, umumotari yambaye ijire y'amabara y'umuhondo n'ubururu mu gikasike cya oranje, imbere ye hari umugenzi wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru. Inyuma ihetse gaze zikoreshwa mu guteka ibintu bitandukanye zihisha vuba kandi zikagufasha kurya udatinze.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, itwaye abantu mu muhanda wa kaburimbo. kera imodoka zitaraza umuntu yakoraga urugendo akagera aho agiye yananiwe, ariko ubu byaroroshye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka eshatu, zifite ibara ry'umutuku. Inyuma hari ibyatsi byinshi bihakikije ndetse n'ibiti bifite amabara y'icyatsi. Ni ahawe kuza kwiyigira imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cyisumbuye kuri moto kibasha gutwara imizigo myinshi harimo kandi igare ririho umunyonzi utwaye umugenzi ufite umwana mutoya ahagatiye. Hakurya y'umuhanda hari ibiti bitoshye.

Imodoka nziza ziri mu bwoko bw'izitwara abagenzi ziparitse hamwe, ubona ko nta bagenzi barimo, hakurya yazo hari ishyamba ryiza ubona ko ari ryinshi cyane rwose ndetse n'iminara y'itumanaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, n'urugendo n'uruza rw'abagenzi. Hari umunara muremure cyane, ubona ko utanga itumanaho mu buryo bworoheje. Uyu muhanda urashaje kuko ahantu henshi wagiye ucukagurika.

Mu muhanda wa kaburimbo hari ikinyabiziga cyisumbuye kuri moto aho gitwara imizigo myinshi. Hakurya yacyo hari umugabo wambaye ikote ry'umuhondo, umupira w'umukara, n'ipantaro ya kaki. Imbere kandi hari guturuka moto, iriho umumotari n'umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo wacukuritse urimo imodoka ndende na moto ebyiri, moto zose ziriho abagenzi. Imwe iriho umukobwa ufite igikapu ku rutugu, undi afite umufuka yarambitse ku kibero cye. Iyi modoka ipakiye ibintu byinshi, ubona ko igiye ahantu kure.

Mu kayira gato k'abanyamaguru gapavumwe n'amapave harimo umugabo uri gusunika igare wambaye agashati ka karokaro ipantaro y'ikoboyi inkweto zifunguye na terefone mu mufuka; yambaye isaha ku kuboko arasa n'utishimye rwose inyuma ye hari abagore bari kugenda bifubitse igitenge.

Imodoka iri mu bwoko bwa fuso, ipakiye ibintu byinshi ndetse itwikirije ihema, itwawe n'umushoferi umwe, imbere yayo hari umusore, wambaye agapira, agapantaro k'ubururu, kamambiri z'ubururu, ahetse ikintu inyuma ku igare rye.

Inzu ya etage ifite inzugi zisize ibara ry'icyatsi yegeranye n'indi nzu ya kadasteri ifite amabati y'ubururu hanze hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, igare ririho ibintu bitandukanye, igifuka kinini cy'umweru, ikijerekani, agafuka k'umuceri n'ibindi bintu bitandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ifite ibintu byinshi itwaye, hejuru hari ihema ritwikiriye ibyo bintu ngo bitangizwa n'izuba cyangwa se imvura. Imbere yayo hari izindi modoka nazo zitwaye ibintu bitagaragara, iruhande rw'umuhanda hari ibiti bifite amababa meza cyane.

Ikinyabiziga cyisumbuye kuri moto gikunze gutwara imitwaro, cyatwikirijeho ihema ry'umukara ndetse n'imigozi iziritse, kugira ngo ibirimo bidatakara. Hari umunyonzi uri gusunika igare ririho umufuka munini wa rugano.

Umuhanda wa kaburimbo uririmo rujya n'uruza rw'abantu benshi ubona ko bafite aho bari kwerekeza hari inyubako nyinshi z'ama etage umudaso wambaye imyenda y'icyatsi, umusore wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'ikoboyi, umukobwa wambaye agapira k'umukara ipantaro y'ikoboye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda bamwe bagenda abandi baza hariru umugore ufite amverope mu ntoki na terefone undi mugore afite agakapu k'icyatsi yambaye ikanzu yu'ubururu ndetse yiteze n'agatambaro k'ubururu.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bane hari izamu rifite urushundura rw'umweru, uramutse ushaka gukina umupira nawe waza ukidagadura dore ko uba uri gukora siporo kandi ituma ubuzima bwawe bukomeza kumererwa neza.

Umugore uhagaze hagati y'ibyapa bibiri amanitse amaboko, y'icyapa kimwe cyanditseho urugendo ruhire mu ndimi eshatu; Ikinyarwanda, Icyongereza, ndetse n'Igifaransa. Ikindi cyapa cyanditseho repabulike ofu Uganda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo utubara tw'umweru n'utw'umukara, hari gutambukamo umugabo wambaye kositimu y'umutuku n'inkweto z'umukara, ku nkengero z'umuhanda hari umugore wambaye ibitenge by'umutuku n'agashakoshi mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibiti bifite amababi y'icyatsi ndetse n'imikindo. Hari ibinyabiziga biri kugenda birimo moto, amagare ndetse n'imodoka.

Ni i Remera mu mujyi wa Kigali, hari ama etaje abiri ubona meza cyane, imbere yayo haparitse imodoka eshatu ndetse n'abantu, hari moto iriho umugenzi ndetse n'umumotari, ubona ko bafite aho berekeje.

Ikibuga cy'indege cya kanombe ni kimwe mu bibuga by'indege kigwaho indege nyinshi cyane ziturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, iruhande rwaho hari indabyo nziza inzu nziza z'ama etaje ama resitora ushobora gusangamo ibiryo by'ubwoko bwose.

Agace gatuyemo inzu nyinshi ziri mu bucucike, igaragara cyane ifite amabati y'umutuku, hejuru hari insinga z'amashanyarazi, hari igipangu cyubakishije karabasansi ndetse muri izo nzu nyinshi harimo ibiti byinshi.

Ni mu muhanda rwagati ahazwi nko kwa Rando, harimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye ndetse n'abagenzi berekeza mu bice binyuranye. Hari umugabo uhetse igikapu cy'umukara ndetse yambaye n'isaha ku kaboko.

Inzu nyinshi ziri mu kajagari bigaragara ko abantu bahatuye baturanye rwose, hepfo yayo hari ibiti bimeze nk'aho biri mu gishanga mu rwanda bari muri gahunda yo guca akajagari abantu bagatura neza mu midugudu.

Agace gatuyemo amazu menshi agiye atandukanye, yubatse mu bwoko butandukanye, amwe ni umutuku, andi ariho amabati y'ubururu, hari ikigega kinini cyane kijyamo amazi ahagije, ipoto ry'umuriro ririho insinga zigiye zikwirakwiza umuriro muri ayo mazu.

Umumotari ari mu muhanda wa kaburimbo yambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu umupira w'umukara, kasike y'umutuku n'inkweto z'umukara. Nta mugenzi atwaye, iruhande rwe hari inzu ya kadasitere ifite igipangu cy'umweru n'umutuku.

Inzu nziza yo mu bwoko bwa kadasiteri, ifite ibyumba byinshi bitandukanye igipangu cyiza n'uturabo iruhande rwayo. Hari ipoto y'amashanyarazi ubona ko iyi inzu rwose irimo n'umuriro w'amashanyarazi, iruhande rwayo harapavomye ndetse hari umuhanda wa kaburimbo.

Etaje nziza iri mu mabara meza yanditseho roze gadeni iherereye ahantu heza aho wahatemberera, ukagira ibyishimo imbuga yayo iriho amapave ndetse ifite n'igipangu kiza.

Ahazwi nko mu Giporoso, i Remera, hari urujya n'uruza rw'abantu, imodoka, amagare ndetse na moto. Hakurya hari ibiti bitoshye ndetse n'amapoto y'insinga z'amashanyarazi.

Ni mu Giporoso, ahantu ubona hari urujya n'uruza rw'abantu, imodoka, amamoto, amagare, hari abantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, insinga z'amashanyarazi zambukiranyije hejuru y'amazu ndetse n'umuhanda ubona ko atari mwiza cyane.

Inzu nziza cyane kandi iherereye ku muhanda wa kaburimbo, ifite igipangu cyiza ubona ko rwose utapfa kugisanga aho ariho hose, ifite amadirishya y'umukara ndetse n'ibirahure by'umweru, isize irangi ry'umweru irashimishije rwose.

Umuhanda wa kaburimbo, ku nkengero uteyeho ibiti bifite amabara meza y'icyatsi. Wegereye inzu nziza ya etaje, igeretse inshuro nyinshi isize irangi ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikiraro hejuru yawo nacyo gicamo imodoka, izindi zigaca hasi ndetse n'amagare, hari akayira gacamo abanyamaguru harimo abagore babiri, uwambaye ikanzu y'umutuku n'ibitenge.

Umuhanda w'igitaka ubona ko imvura yaguye warekamo amazi menshi, abahanyura bagatwara ibyondo munsi y'ibirenge, hari igipangu cyegereye uwo muhanda gifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, ibyapa ku muhanda, ibiti bitanga akayaga ku bantu bose bahaca, hahagaze abagabo bane umwe wambaye agapira k'umutuku ni ipantaro y'umukara, amafoto ajyana insinga muri izi nzu zituriye uyu muhanda wa kaburimbo na yo ni menshi.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'indabyo zo m'ubwoko butandukanye, iruhande rwawo hari inzu ya kadasiteri ifite n'igipangu, uyu muhanda iyo imvura yaguye uba wabaye mubi kuhanyura bikagora abaturage.

Ni umuhanda mugari cyane, bigoye ko wawambukiramo ari ubwa mbere uje mu muhanda wa kaburimbo, hari imodoka yahagaze kugira ngo umugenzi uri kwambuka abanze agere hakurya, hari n'undi utegereje ko imodoka ibanza gutambuka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, wuzuye utwaye akayabo k'amafaranga menshi, urimo ibinyabiziga bigenda bitandukanye, imodoka, moto, umumotari uri kuri iyo moto afite ibikasike by'umutuku kandi muri uwo muhanda urabona ko hari ubusitani bwiza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, iruhande rwaho hari urimo amapave, bigaragara ko unyurwamo n'abagenzi, hirya yaho hari ibiti byiza ubona bitanga umuyaga mu muhanda. Hakurya hari guturuka imodoka ebyiri ndetse hari n'umugabo wambaye agapira k'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hari amapave ubona ko ari akayira kanyurwamo n'abagenzi, hakikijwe n'ibiti byiza birebire bitanga akayaga ku bantu barimo barahanyura ntibicwe n'izuba, uwo muhanda kandi urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo abamotari babiri, buri mumotari ahetse umugenzi we, umugenzi wa mbere ahetse igikapu cya kaki ubona ko kiri kumuvuna, naho umugenzi wa kabiri acigatiye igikarito mu ntoki ze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kimwe cya moto, umumotari ari kumwe n'umugenzi. Uwo mugenzi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara. Kandi bakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, amapoto, amazu ndetse n'ibyapa biyobora abantu.

Imihanda ibiri ya kaburimbo itarimo umugenzi cg se ikindi kinyabiziga; ifite ibiti byiza ku mpande zayo bifite amababi y'icyatsi bitoshye wagirango barabyuhira rwose uhageze akayaga kawo karakwakira.